Mu buryo buteguye neza higanjemo inyama, inyanya n'ibitunguru n'ibindi bitandukanye akaba ari ibiryo buteguye neza cane bikaba bikunzwe cane ku isi hose.

Ibindu byo kujya bijaga biraba ahandu hameze ngo mu kabari harimo: tungurusumu, amacapati gagiyega gatandukanye n'imifungatayi, bajaga barazita nidi bajaga barashimo ibindu bijanye n'ifarini n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Akabari abantu benshi turaja turita mu rurimi rw'icongereza bara. Ikaba icuruza ibintu bijanye nibyo kunywa, harimo inzoga z'ubwoko bwinshi, harimo za mitsingi, rakijini, za bazoka n'izindi n'izindi.

Iduka bajya bita mu rurimi rw'icyongereza bare. Mu kinyarwanda bakunze kuyita akabari gacuruza ubwoko bw'inzoga, cyane ibinyobwa harimo pirimusi n'ibindi bitandukanye.

Ntwara ikinyobwa cyitwa sikoro, ni ikinyobwa gikunzwe cane akaba na fanta bakunze kwita inyange.

Akabari mu rurimi rw'ikinyarwanda mu rw'icyongereza bajya ba rwita bara ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu, kuberako habamo ibyo kunywa abantu bashaka , bityo bigatuma babibonera hafi.

Hoteri ni ingirakamaro ku buzima bw'abantu, ikaba yifashishwa mu gucumbikira abantu, ndetse no kubona ibyo kurya n'ibindi bintu bitandukanye.

Hoteli ni ingirakamaro ku baturage benshi batuye isi; iyi bakaba bayita mu rurimi rw’icyongereza “emu miliyoni moteri” cyangwa se mu rurimi rw’icyongereza bakaba bayita “miliyoni hoteli”, “wani miliyoni hoteli.”

Iduka jy'inzoga bajaga bacuruza ibintu bijanye n'ubwoko bwinshi bw'inzoga harimo za mitsingi, hakabamo na za skolo, n'izindi n'izindi bajaga baracuruza.,

Iduka rijya ricuruza ibintu bijyanye n'ibyo kunywa, haba harimo amazi, amata tujya twita inyange, n'ibindi byinshi bitandukanye, bityo rero, bikaba ingirakamaro mu buzima bw'abantu, kuko babibonera hafi.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye harimo impapuro, amakaramu ndetse n'amakayi, rikaba ritanga serivisi zitandukanye, haba ekwiti banke na beka banke.

Agakiwosike ka airtel ni akazu kajaga karakorerwamo ibikorwa byo gucuruza amayinite ga airtel, no kubarura amasimukadi gatandukanye. Amayinite ga airtel gifashwa cyane mu guhamagara imirongo yose, gakaba ari meza.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo umukecuru uvuye gutashya, umukobwa urimo wambuka umuhanda, umuhungu utwaye igare. Tagisi ni igikoresho gikoreshwa gitwara imizigo n'abantu, bityo kikaba ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi.

Ndabona ibintu byinshi by'ibiribwa bitandukanye mu duka, hari mo akawunga, umunyu, umuceri, n'ibindi n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abaturage. Hari amaduka acuruza, ibindu bijanye n'a kawunga umuceri ibishyimbo n'ibindi n'ibindi.

Iduka ry' imyenda higanjemo amapantalo y'ubwoko bwinshi butandukanye: imipira itandukanye myinshi myiza, inkweto, n'ibindi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iduka ricuruza ibikoresho bya moto, harimo ibyuma nka kasike amavuta n'ibindi n'ibindi byinshi. Moto ni igikoresho gikoreshwa mu kwikorera imizigo n'abantu.

Iduka ricuruza ibintu byinshi bitandukanye harimo ibyo kurya, ibyo kwambara, n'amainite ya telefone, amabateri, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Iduka ricuruza ibintu bijanye n'imiti z'ubwoko bwose，harimo iz'inga n'iz'ihene， n'ibikoresho bikoreshwa mu kugaburira inkoko n'ibindi n'ibindi.

Papeteri ni iduka bajaga baracuruza, ibintu bijanye n'impapuro, memorikadi bakanandika mu mashini. Bagacuruza ibikoresho by'abanyeshuri, hakaba hariho na numero z'umucuruzi.

Iduka cyangwa se inzu ya etaje ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye . Inyange ni ingirakamaro cyane ku bayinywa , bitewe n'uko aba ari n'amata kandi akunzwe cyane.

Ndabona iduka rikora ibintu bijanye no gufotora, serivisi z irembo, ukagiramo na banki ya Ekwiti na Beka.

Iduka ricuruza ibikoresho bitandukanye higanjemo ibikoresho bya moto, harimo inguvu n'ibindi n'ibindi.

Iduka cyangwa se ibiro bishinzwe gutunganya ibintu bijyanye n'amajyane cyangwa mu rurimi rw'i icyongereza tea giherereye mu kinigi mu majyaruguru.

Hano hari icapa cigaragaza ibyo umuntu acuruza hari mo: Inyange, amazi,...

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye bijyanye n'amatelefoni harimo amapushete, amasharijeri n'ibindi bigiye bitandukanye. Rikaba rigira serivisi za eyateri ama initen'amasimukadi.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye harimo ibikapu intebe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bityo ni ingirakamaro ku baturage barituriye.

Aho bacururiza ibintu byinshi bitandukanye bya eregitoroniki mu cyongereza harimo: amatelefoni n'amaradiyo, amakuteri, amabuye ya radiyo, amaburutufu n'ibindi n'ibindi bigiye butandukanye.

Iduka rijaga riracuruza ibintu bijanye n'ibyo kunywa harimo inzoga zitandukanye za Waragi, n'amakaramu, n'amasabune n'amavuta byo kwisiga n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Inzu isanzwe babamo. Inzu ni ingirakamaro ahantu hose ku isi. Yes Yifashishwa abantu bayibamo, bakoreramo ubucuruzi.

Iduka bajya bita mu rurimi rw'icyongereza arimantasiyo, rikaba ricuruza ibintu bitandukanye byo kurya, harimo imigati, amandazi, ndetse n'ibyo kunywa harimo amata, n'ibindi bitandukanye.

Umukanishi w'amagare ni ingirakamaro ku isi hose kuko abari ku isi bose dukoresha amagare. Igare ni ingirakamaro mu gutwara imizigo n'abantu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye higanjemo ibyo kurya harimo umunyu, amandazi, imineke, ibitunguru n'ibindi n'ibindi bikaba bicuruzwa.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye harimo uduseke n'ibindi bikoresho byifashishwa umuntu agiye mu bukwe cyangwa se gusura abantu. Iruhande rwabo hakaba hari umuntu w'umugore uri kudoda, kudoda ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu cyane.

Amaduka acuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo umunyu, amasabune, umuceri, n' akawunga ndetse n' ibindi byinshi bigiye bitandukanye byo kurya.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye haba harimo motola imyenda n'ibindi bitandukanye. Matola ni igikoresho gikoreshwa ku Isi hose, abantu kubera y'uko bakiryamaho haba abato, haba n'abakuru.

Iduka risa nkaho bacuruza ibintu bijyanye n'ibikoresho byo mugo, matela na amasosogisi, hanyuma ndahabona na moto, hariho intebe n'indobo.

Isoko rijaga aracuruza ibintu bijyanye n'ibinyabiziga higanjemo amapine g'imodoka n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye harimo: iminyururu n'ibindi n'ibindi.

Umumotari ni umushoferi wa moto cyangwa ugomba gukontorora ikinyabiziga cya moto. Ni igikoresho gikoreshwa gitwara imizigo n'abantu kibijyana ahantu henshi hagiye hatandukanye...

Iduka ricuruza ibintu byinshi ibyo kurya bigiye bitandukanye, harimo umuceri, akawunga, n'ibindi n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu rugo, haba harimo amasabune, omo,..

lduka rijya ricuruza ibintu bijyanye n'amakofe, higanjemo icyayi n'ibindi n'ibindi. Icyayi gifite akamaro ku isi hose no mu bana no mu bakuru.

Iduka cyangwa se shopu itanga ibintu bigiye bitandukanye bijyanye na Mtn, serivisi zitangirwamo kubarura simukadi, gutanga ama inite, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ndabona inzu zijanye no gukorerwamo ibintu by'ubucuruzi. Babona nk'abagabo iruhande rwazo barimo baraganira.

Arimantasiyo ni mu rurimi rw'Igifaransa， cyangwa se mu rurimi rw'Icyongereza，bajya barita arimantesheni，kikaba ari igikoresho，cyangwa se iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye.

Hari iduka zitanga serivisi nyinshi harimo gukora ibyapa, bajaga barakora na za kashe, bajaga barandika no ku myenda.

Iduka ricuruza amayinite cyangwa se mu rurimi rw'urunyamahanga bakunze kwita agakiyosike ka eyateli. Kakaba gacururizwamo amayinite ndetse na simukadi, ndetse bigatuma gatanga amafaranga ku bagakoresha ndetse no kubayagura.

Hano hari icapa canditseho serivisi abantu baho bajaga barakora. Harimo ngacapati, ikirayi co mumavuta, hakaba n'inzoga na majuyisi nibindu bijanye n'imitobe.

Amusiteri ni nzoga ikunzwe cyane, higanjemo ibihugu byo muri afurika harimo u Rwanda n'ibindi n'ibindi ikaba ari inzoga iryoshye igura make.

Iduka rijya ricuruza ibintu bijyaniranye n'ibyok kurya, higanjemo umuceri, akawunga, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, bityo rero rikaba ari ingirakamaro mu buzima bw'abantu.

Hoteri cyangwa se iduka rifasha abantu ribaha amacumbi, ndetse n'ibyo kurya n'ibyo kunywa, higanjemo ibyo twakwita dirinki alukoro, harimo za amsiteri ndetse n'izindi zitandukanye.

Iduka ricuruza ibintu bijyanye n'ibyo kurya, harimo umuceri, akawunga, n'ibindi, harimo inyanya, ibitunguru, umunyu, n'amakaroni, n'ibindi byinshi.

Hano hari iduka rizanye no gucuruza imyenda z,abagabo n'iz'abagore harimo amapantaro, imipira, amashati nibindi byinshi.

Hano ndi kubona gaze. Gaze ni igikoresho gikoreshwa muguteka, hari amazi bakunze kwita jibu gari mu kazu k'ibyuma.

Inzu ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi. Bitewe nuko uri ku isi wese akeneye inzu yo kuryamamo, yo gukoreramo ubucuruzi cyangwa se n'ibindi. Bikaba bityo ari igikoresho gikoreshwa ku isi hose.

Hano hari abantu benshi, hari iduka ricuruza ibintu bijanye na za matela n'imyenda, hakaba n'abandi bakunze gukora imirimo zijanye no gukora ikiyede.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye higanjemo umuceri, akawunga, umunyu, amasabune n'ibindi n'ibindi byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Iduka rijya ricuruza ibintu bijyanye n'ibyuma; mu rurimi rw’Icyongereza bajya bita “Kenkayori.” Bimwe mu bicuruzwa harimo imikoropesho, amatiyo y’amazi, ay’umuriro, ndetse n’ibindi bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abanyozi n'abanyamaguru mu muhanda wa kaburimbo iruhande rwawo hari amaduka atandukanye harimo fesibuku hoteli , ni ahandu hifashishwa hatanga icumbi n'ibyo kurya bitandukanye.

Ingirakamaro ku isi hose biteye yuko itanga amacumbi, ibyo kurya n'ibindi byinshi cyane, ikaba yiganje ahantu hari mijyi cyane mu bihugu hose.

Hano hari indebo n'uburiri bwiza cyane, umundu ajyama ho akumva ameze neza.

Hoteri yifashishwa mu kubona amacumbi ,ibyo kurya ibyo kunywa n'ibindi n'ibindi, ikaba ikunze kuba mu mijyi harimo: Kigali Tanzaniya ,Nayirobi Kenya n'ahandi n'ahandi hari imigi.

Hoteri se cyangwa resitora ni ingirakamaro ku bantu bose batuye is,i bitewe nuko itanga amacumbi, ibyo kurya, ibyo kunywa n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inzu nziza ikaba ifite jaride. Jaride ni ahantu heza cyane umuntu yakicara agafatira akazuba cyangwa se akayaga.

Restora bajya bita mu rurimi rw'icyongereza hoteli cyangwa se moteri, ni ingirakamaro ku batuye isi bose, bitewe nuko itanga amacumbi ibyo kurya ndetse n'ibyo kunwa bitandukanye.

Ibitoki n'igihingwa gihingwa ahantu henshi mu gihugu, ndetse no ku isi hose. Kikaba gituma umuntu abona amafaranga, ndetse n'ibyo kurya byo bikaba ari igihingwa gikunzwe cyane ku isi hose.

Isoko ry'ibikapu bigiye byinshi bitandukanye harimo ubwoko bw'ibikapu by'abagore, abakobwa, abakecuru n'abagabo, ibikapu bikaba byifashishwa mu gutwara ibintu byacu nk'abantu runaka bigiye bitandukanye byoroheje n'ibigoye.

Isoko jy'imyenda higanjemo imipira n'amapantaro n'ibindi n'ibindi, bagurisha ku mafaranga make cane, bitewe n'uko ririya ahantu ku muhanda hatiyubashye.

Ndabona iduka ricuruza ibintu bijanye n'amacupamandazi, n'imisemburo, n'amasabune n'ibindi n'ibindi.

Isoko ryiganjemo abacuruzi n'abagura, bakaba bari gucuruza karoti. Ni igihingwa gikunzwe cyane ndetse kimeze nk'aho ari imbuto, ikaba ari n'umuti ukiza amaso ku bantu bazihekenya cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko harimo abagura, abagurisha ibicuruzwa bimwe na bimwe, pome, amaronji, imyembe, n'ibindi by'ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, biganjemo abaguzi n'abagurisha, bari gucuruza, bari no kugura intoryi n'ibindi n'ibindi, harimo n'amashuka.

Amata y'ikivuguto ajaga aba ahantu hose higanjemo muri Afurika harimo Kenya, Uganda, Tanzaniya, Rwanda n'ahandi henshi ku isi hose akaba akunzwe cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko harimo abantu benshi batandukanye bagurisha. Barimo bacuruza imyenda n'ibindi bintu bitandukanye amashuka ibiringiti.

Iduka ryo ku muhanda ricuruza ibintu bitandukanye, harimo imiti, ibyo kunywa, amabiswi y'abana, ndetse n'ibyo kurya, harimo imiceri n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko. Higanjemo abagura n'abagurisha bacuruza imyenda harimo n'ibindi n'ibindi haba amabote, amapantaro, amashati n'ibindi n'ibindi.

Amashu ni ibihingwa bikunzwe cyane, nk'imboga mu gihugu hose abanyeshuri babyifashisha ba batekera ibiryo n'ahandi henshi bizana amafaranga, baragurisha bakabona n'andi mafaranga.

Iduka rijya ricuruza ibintu byinshi bitandukanye harimo amavuta, amatoroshi ndetse n'uburoso n'imakasi n'ibindi n'ibindi. Bityo rero bigatuma riba ingirakamaro bitewe nuko abaturage babibonera hafi.

Isuku ryiganjemo ibikoresho byo murugo, harimo indobo, amabase, ibikombe, amajage, amasafuriya, n'amagurude, n'amasorori, n'ibindi byinshi bitandukanye.

Isoko ryiganjemo ibiribwa by'imbuto harimo: pome, amaronji n'ibindi n'ibindi. Pome ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu bitewe n'uko uyiriye akomeza n'amaronji nuko,...

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko. Isoko ni ingirakamaro ku baturage bose kubera ko bacururizamo amasafuriya, imyenda n'ibindi byinshi bitandukanye.

Iduka bajya bcuruza ibintu byinshi bitandukanye byo mu mashanyarazi, higanjemo amashajeri, ekuteri n'ibindi n'ibindi harimo burutufu, bateri. amabatiri

Isoku harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo imboga, amashu, ibitunguru, amakaroti, inyanya, n'ibindi bajaga barajya bitandukanye, hakabamo abacuruzi, n'abagurisha, n'abagura.

Isoko ry'ibiribwa harimo ibintu byinshi bitandukanye higanjemo injyanya intoryi, ibihaza, ibitunguru n'ibindi n'ibindi inyanya ni igihingwa gikunzwe cyane ku isi hose n'intoki n'uko.

Iduka ricuruza ibiribwa bitandukanye harimo akawunga, umuceri, inyanya ,amandazi, ubunyobwa n'amagi ,n'ibyo kunywa harimo fanta n'ibindi binyobwa bitandukanye.

Hano hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, basa nkaho bari mu isoko, hari n'ibicuruzwa byitwa ibisheke, bikunze kuboneka cyane majyaruguru.

Isoko ryiganjemo abadozi . Bityo rero abadozi ni ingirakamaro biteye ubwoba. Badufasha kudoda ibicitse, haba imyenda n'ibindi . Isoko ririmo ibicuruzwa ndetse n'abaguzi, harimo ibitenge, amapantaro n'ibindi n'ibindi.

Ndabona ibikoresho bitandukanye mu iduka bikorerishwa mu rugo, harimo indobo, amajage, ibiyiko, n'ibindi n'ibindi...

Ndabona inzu wakwita nk'isoko ,bacururizamo ibintu byinshi bitandukanye, hajyamo abantu batandukanye bo hirya no hino.

Hano hari isoko bakunze kuryita mu congereza supamaketi harimo ibintu bijanye n'ibinyobwa, ibiribwa harimo imigati, amata bakunze kwita inyange.